Icyapa kirimo kwamamaza, ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi. Iki cyapa kikaba kirimo igice gifite ubuso bw'umweru, muri ubwo buso hakaba handitsemo amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Itungo ryo mu bwoko bw'ingurube, ingurube ikaba ifite ibara ry'Umweru ikaba ihagaze irimo kureba imbere.

Icyapa kirimo kiramamaza, ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu Rwanda, munsi y'iki cyapa hakaba hahagaze imodoka ifite ibara ry'umweru.

Iduka ricuruza inkweto muri izo nkweto hakaba harimo inkweto zambarwa n'abakinnyi b'umupira wamaguru izo nkweto zikaba ziteretse ku gikoresho gisa n'umutuku.

Iduka ricuruza udukomo muri utwo dukomo hakaba harimo amabara atandukanye, aho harimo udukomo tw'umweru, umutuku, ubururu, ndetse n'umuhondo.

Iduka ricuruza imyambaro, muri iyo myambaro hakaba harimo amashati. Kuri ayo mashati akaba agiye afite amabara atandukanye aho harimo n'afite ibara ry'umweru.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ibyo bicuruzwa hakaba harimo amakanzu ndetse n'imitaka, iyo mitaka ikaba ikoze mu bitambaro by'ibitenge.

Iduka ricuruza imyambaro, muri iryo duka hakaba harimo ibitenge bigiye bifite amabara avangavanze ibyo bitenge bikaba harimo ibizinze ndetse n'indi bigiye bimanitse ku biti ahabugenewe.

Iduka ricuruza imyambaro, muri iryo duka hakaba harimo umuguzi ndetse n'umugurisha, aho umwe yambaye isengeri y'umweru, undi akaba yambaye ijipo y'umweru n'isaha mu kaboko.

Iduka ricuruza imyambaro rikaba ririmo imipira ifite amabara y'umukara n'ay'umweru akaba amanitse ku bikoresho byifashishwa mu kwirinda kuba yahinamirana.

Iduka ricuruza imyambaro muri iyo myambaro hakaba harimo amakanzu, aho harimo ikanzu y'umweru, iryo duka rikaba rishashemo amakaro yo mu ibara ry'umweru.

Iduka ricuruza inkweto zo kwambara, muri iryo duka hakaba harimo inkweto z'amoko agiye atandukanye, muri izo nkweto hakaba harimo zifite ibara ry'umweru, ikigina, ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Iduka ricuruza imyambaro igiye itandukanye muri yo hakaba harimo amakanzu agiye afite amabara atandukanye, harimo ubururu, umutuku, umweru ndetse n'andi mabara atandukanye.

Imodoka ihagaze imbere y'igorofa, iyi modoka ikaba ifite ibara ry'umweru, iyi modoka ikaba igurishwa ku giciro cya miliyoni cumi n'ebyiri.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, iruhande yayo hakaba hahagaze izindi modoka, iyi ngiyi ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite icyapa imbere gifite ishusho ya mpande enye, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara mu buso bw'umweru.

Abagabo babiri, umwe ufite igikapu mu ntoki gifite ibara ry'umutuku, bombi bakaba bahagaze imbere y'imodoka ebyiri, imwe ifite ibara ry'umweru.

Imodoka eshatu zihagaze mu cyumba cy'inzu zombi zikaba zifite amabara y'umukara aho zihagaze hakaba hashashe amakaro asa umweru.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka zifite ibara ry'umweru, bombi bakaba bafite icyapa mu ntoki, inyuma y'izo modoka hakaba hari ihema ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Imodoka y'umukara icanye amatara, ikaba iri kugenda mu muhanda, ikaba ifite ikirango gifite ibara ry'umweru handitseho amagambo y'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka icanye itara ifite ibara ry'umukara, bakaba bafite icyapa cy'ikigo gicuruza imodoka mu ntoki.

Imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange akaba ari imodoka zifite ibara ry'umweru, imbere y'izi modoka hakaba hahagaze abagabo babiri bambaye udupfukamunwa hakaba harimo umugabo umwe wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'imodoka iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umukara, muri abo bagabo babiri umwe akaba yambaye umupira w'umukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikamyo isa n'umweru, muri bo hakaba harimo umwe wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ikaba icanye amatara y'imbere, inyuma yayo hakaba hari igorofa rifite ibirahure ndetse ikaba ifite ikirango, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'umweru ndetse cyanditsemo amagambo asa n'umukara.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ifite ibara ry'umweru, amatara yayo akaba arimo kwaka ikaba igurishwa miliyoni icyenda.

Umugabo urimo gukoresha imashini ibara inoti, uyu mugabo imbere ye hakaba hari ameza kuri ayo meza hakaba harimo inote zigiye zifunze.

Inote y'amafaranga y'u Rwanda magana atanu, iyi note ikaba iriho ishusho y'abanyeshuri batatu barimo gukoresha za mudasobwa ndetse ahandi hakaba hariho ishusho y'ikiraro kiri mu ishyamba rya Nyungwe.

Igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda, iki giceri kikaba kiriho ishusho y'igihingwa cy'ikawa, kuri icyo giceri hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa.

Umukozi wa banki arimo arahererekanya amafaranga n'umukiriya wiyo banki, ayo mafaranga akaba ari ubwoko bw'inoti.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda, iyo noti ikaba yerekana amafaranga ibihumbi bitanu, kuri iyo noti hakaba hariho intore zirimo zirabyina zambaye amasengeri y'umukara, muri izo ntore hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo.

Iduka ricuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya, ibyo kunywa hakaba harimo amata, rikaba rihagazemo umugabo wambaye umupira w'umweru, arimo arasuka akoresheje ibinika.

Abagabo, bari ahantu bacururiza, ibyokurya n'ibyokunywa. Bakaba bafite, bombi ibikombe, birimo amata, imbere yaho kumeza hakaba hari, isahani, iteretseho, icyo kurya.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibyokurya n'ibyo kunywa, kikaba kirimo igikoresho cyifashishwa mu kubika, ibikoresho byifashishwa mu kubikamo ibyo kunywa n'ibyokurya iki gikoresho kikaba gifite ibara ry'ubururu.

Umugabo uri mu iduka ricuruza ibyo kunywa, muri ibi byo kunywa hakaba harimo amata ya Mukamira, hakaba harimo amazi ndetse n'ibindi bitandukanye, muri iryo duka kandi hakaba harimo intebe ifite ibara ry'ubururu.

Iduka ricuruza ibyo kunywa, muri iryo duka rikaba ririmo umukobwa wambaye umupira w'umutuku uhetse igikapu mu ntoki, hakaba harimo intebe ikozwe mu mbaho, hasi hakaba hashashe amakaro asa n'umweru.

Iduka ricuruza ibyo kunywa, n'ibyo kurya, iryo duka rikaba ririmo intebe y,ubururu, aho umucuruzi yicaye ku ntebe y'ubururu, imbere ye hari ameza, muri ibyo bicuruzwa hakaba harimo amaji, y'ubwoko bugiye butandukanye.

Umugore uhagaze mu iduka ry'aho bakusanyiriza amata, uwo mugore akaba yambaye ikote ry'umukara iruhande akaba hari ikigega babikamo amata.

Umugore wicaye mu iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, imbere ye hakaba hari Ameza ateretseho isahani iriho ibyo kurya ndetse n'igikombe kirimo amata.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, urupapuro rukaba ruhabwa umuntu wishyuye umusoro ku nyungu akaba aruhabwa n'inyemezabwishyu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rukaba ruhabwa umucuruzi wishyuye umusoro ku nyungu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda, rukaba ruhabwa umucuruzi wishyuye umusoro ku nyungu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro namahoro ruhabwa umucuruzi wishyuye umusoro ku nyungu akaba aruhabwa n'inyemezabwishyu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro, urupapuro rukaba ruhabwa umuntu wishyuye umusoro ku nyungu. rukaba rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, uru rupapuro rukaba ruhabwa umuntu wishyuye umusoro ku nyungu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo gikorera mu rwanda gishinzwe imisoro namahoro, rukaba ruhabwa umucuruzi wishyuye umusoro ku nyungu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rukaba ruhabwa umucuruzi wishyuye umusoro ku nyungu, akaba aruhabwa nk'inyemezabwishyu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Rwanda, kikaba gitangwa, cyemeza ko umucuruzi atarimo ideni ry'umusoro.

Urupapuro rutangwa n ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, rukaba ruhabwa umucuruzi wishyuye umusoro ku nyungu.

Urupapuro rutangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, urupapuro rukaba rwemeza ko hishyuwe umusoro ku nyungu, rukaba ruhabwa umuntu wishyuye uwo musoro ku nyungu.

Inoti ya banki ya Kongo iyi noti ikaba yerekana amafaranga magana abiri, kuri iyi noti hakaba hariho umuntu urimo guhinga n'undi uhagaze ufite isuka mu ntoki.

Umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka, muri zo hakaba harimo ebyiri zifite ibara ry'umweru ziri kubisikana n'indi y'umukara, hakurya hakaba hubatse igorofa.

Intebe ikoze mu mbaho, isize irangi ry'umutuku, iteye mu cyumba gishashemo amakaro, kikaba gisizemo n'irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo irangi ry'umweru giteretsemo intebe n'ameza bikoze mu mbaho, muri izo ntebe hakaba harimo imisego isa n'umweru.

Hoteri iteguyemo intebe ndetse n'ameza, aho ameza arambuyeho ibitambaro by'umweru muri iyo hoteli hakaba harimo amatara acanye, iruhande rw'ameza n'intebe hakaba hari ahantu bogera.

Inyubako ya hoteli iyo hoteli ikaba ifite ubusitani imbere hakaba hari n'.ahantu abayigana baruhukira barimo koga.

Hoteri irimo intebe z'umutuku n'ameza, iyo hoteri ikaba irimo n'amarido, aho kuri buri meza hagiye hateretseho ururabo.

Hoteri isizemo irangi risa umweru irimo uburiri bushasheho amashuka asa n'umweru, ikaba irimo amatara ashinzwe kubonesha.

Hoteri y'igorofa, iyo hoteri imbere hakaba hari aho bogera, ku nkengero z'aho hantu bogera hakaba hicaye abantu babiri, imbere hakaba hari undi muntu uri gutambuka wambaye ishati y'umweru.

Ubusitani bwa hoteri buteyemo indabo z'amoko menshi muri bwo hakaba hateyemo intebe zifite ibara ry'umukara, iruhande hakaba hari uruzitiro rw'ibyuma.

Ibiro, ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, ibyo biro bikaba ari igorofa, hejuru aho igorofa rirangiriye hakaba hari amagambo yerekana icyo kigo icyo ari cyo.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, muri ibyo biro hakaba hasizemo irangi ry'umutuku ndetse n'umweru, mo imbere hakaba harimo abakozi b'icyo kigo gishinzwe gutanga ubwishingizi.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, kuri ibi biro hakaba harimo abazungu bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho za mudasobwa.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, bikaba biherereye mu nyubako isize irange ry'umuhondo, kuri iyo nyubako hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo yerekana icyerekezo ibyo biro biherereyemo.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, muri ibi biro hakaba hicayemo abakozi ndetse n'abandi bantu baje gusaba ubufasha abo bakozi, imbere yabo hakaba hari ameza, kuri ayo meza hakaba hariho za mudasobwa barimo gukoresha.

Ibiro by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, ibi biro bikaba birimo amatara arimo kwaka, ameza asa n'umweru n'intebe zisa n'ubururu zifite amaguru akoze mu byuma biseze irangi ry'umukara.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza ndetse n'intebe z'umukara, kikaba gifite amatara ari kwaka.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibigiye bitandukanye nk'ibitoki ndetse rikaba ririmo n'imboga nka karoti, intoryi, inyanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo kurya.

Isoko ririmo abaguzi ndetse n'abagurisha, hakaba harimo umugore uri gutambuka wambaye ikanzu iri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse na oranje, muri iryo soko hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo n'imyenda.

Isoko ry'imboga n'imbuto, muri iryo soko hakaba harimo abari gucuruza, aho muri izo mboga harimo intoryi, muri abo bantu bari gucuruza, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abana.

Umuhanda w'ibisate bibiri, uyu muhanda ukaba urimo kugendamo umumotari, umumotari akaba atwaye umugenzi bombi bambaye ingofero zisa ubururu.

Isoko ry'ibiribwa, mu ribyo biribwa hakaba harimo imboga, aho muri izo mboga harimo intoryi, imiteja, karoti ndetse n'inyanya, hakaba harimo abagore barimo baracuruza n'abandi barimo barahaha.

Isoko ry'imboga n'imbuto, ryicayemo umugore wambaye ikote ry'umukara, muri izo mbuto hakaba harimo amacunga, imineke ndetse na voka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri byo hakaba harimo imyenda n'ibikapu, rikaba rihagazemo umugore witeze igitambaro cy'umweru.

Isoko ricuruza imboga n'imbuto, rikaba ririmo umugore uteze igitambaro gisa umukara, wambaye amaherena mu gutwi, akaba arimo arakira ibyo umugurisha ari kumuhereza.

Isoko ry'ibiribwa imboga ndetse n'imbuto, rikaba ririmo inyanya, ibitunguru ndetse n'umugore, urimo gutonora ibishyimbo.

Isoko ririmo abantu bagiye batandukanye, harimo abagore, abana ndetse n'abagabo, hakaba hari ibitebo birimo inyanya zihishije, zifite isura isa n'umutuku.

Isoko ririmo abashinzwe gutwara imizigo, aho umwe muri bo yikoreye umuzigo akaba yambaye umwambaro uri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari n'umupolisi ushinzwe umutekano, umupolisi akaba yambaye agapfukamunwa imbere ye hakaba hahagaze umugore, iruhande ye hari undi muntu ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'icyatsi.

Umukobwa n'umusore barimo gutambuka mu isoko; muri iryo soko hakaba harimo umugabo wicaye ku ntebe ikoze mu mbaho; uwo mugabo akaba yambaye umupira w'ubururu.

Iduka ricuruza imboga ndetse n'imbuto, hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitatandukanye inyanya, miteja, ndetse n'amapapayi hakaba harimo umudamu wicaye ku ntebe arimo gucuruza.

Isoko ricuruza imyenda ndetse n'ibikapu, rikaba byiyicayemo abagore babiri, umwe akaba yambaye ikote risa n'umukara.

Umugore wicaye mu isoko ry'ibiribwa birimo imboga n'imbuto ,mu mbuto hakaba harimo imineke, imyembe ndetse na voka.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri byo hakaba harimo amashati, imipira ndetse n'amapantaro n'ibikapu.

Isoko ririmo abagore, umwe imbere ye hateretse indobo, wambaye ikote ry'umutuku, ufite imisatsi idefirije, imbere ye hakaba hari gutambuka undi wambaye ingofero ndetse n'isengeri y'umuhondo.

Isoko ry'imboga n'imbuto, mu mboga hakaba harimo karoti, intoryi, inyanya, rikaba ririmo umugabo ndetse n'umugore wambaye isengeri y'umutuku, n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu.

Abantu babiri bahagaze iruhande y'imodoka y'umukara, umwe akaba arimo arakanda telefone, uri gukanda telefone akaba yambaye ikote ry'umukara, undi bari kumwe akaba yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero.

Abagabo babiri n'umugore umwe umugore akaba yambaye umupira w'umuhondo n'imishatsi idefirije abagabo babiri umwe akaba yambaye umupira w'umweru ndetse n'ikabutura y'ubururu iruhande hakaba hari undi wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro yumukara.

Amapikipiki ane ahagaze, imbere hari igipangu gisize irangi ry'umuhondo, akaba yicayeho abantu bambaye ingofero z'umukara ndetse n'umutuku, kuri ayo mapikipiki hakaba hahambiyeho ibikarita bifite ibara rya oranje.

Uburyo wahaha imbuga hifashishijwe ikoranabuhanga. Muri izo mboga hakaba harimo tangawizi, kokombure, ndetse n'izindi zitandukanye; harimo nk'amashu, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Umuyobozi utwaye ipikipiki, uwo muyobozi akaba yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ingofero y'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi, kuri iyo pikipiki akaba atwayeho igikarito kiri mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba cy'inzu kirimo robine isize irangi ry'umweru, iyo nzu ikaba iherereye Gisozi hafi ya Kagugu mu mujyi wa Kigali.

Irembo ry'igipangu rifite urugi rw'ibyuma rusize irangi ry'umukara, urwo rugi rukaba rukinze, hasi hakaba hashashe amakaro.

Icyumba cy'inyubako iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, muri icyo cyumba hakaba harimo ameza afite irangi ry'umweru ndetse n'intebe zirimo imisego ifunitse mu gitambaro bisa n'icyatsi, iki cyumba kandi kikaba gishashemo amakaro y'umweru.

Icyumba cy'inyubako iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, iki cyumba cy'inyubako kikaba kirimo itara riri kwaka, iyi nyubako ikaba yakodeshwa amafaranga y'amadolari igihumbi na magana atanu.

Inyubako y'igorofa iherereye i Kigali, iyi nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ikingishije amadirishya asize irangi ry'umweru, inyubako ikaba yagura ibihumbi maganatanu mirongo itanu by'amadolari y'Amerika.

Icyumba cy'inyubako iherereye i Kigali, Kabeza, iki cyumba kikaba kirimo uburiri bushashe, uburiri bukaba buriho n'umusego, iki cyumba kikaba gisize irangi ry'umweru.

Icyumba cy'inzu iherereye i Kigali igura amafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda, icyo cyumba kikaba gifite idirishya rikoze mu byuma bisize irange ry'umukara.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku, iyi nyubako ikaba iherereye i kanombe mu mujyi wa Kigali akaba ari inyubako ishobora kugura miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Icyumba gisize irange ry'umweru, gifite amadirishya asize irangi ry'umweru, kikaba kirimo amatara acanye ndetse n'utubati dufite imikondo isa n'umukara.

Igikoni cyubatse mu nzu kirimo amashyiga yo gutekaho, iyi nzu ikaba iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, muri icyo gikoni hakaba hahagazemo umuntu urimo gukanda kuri telefone wambaye ishati y'umweru.

Inzu ifite aho imodoka zihagarara, ikaba ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, imbere y'iyi nzu hakaba hari ubusitani.

Icyumba cy'inyubako iherereye i kigali muri iki cyumba hakaba harimo ururabo ndetse n'agakoresho kifashishwa mu kuzana umuyaga mu nzu.

Igikoni kigezweho kiri mu nyubako iyo nyubako, ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, akaba ari inyubako igura miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako ifite igipangu cy'amatafari ahiye, iyo nyubako ikaba iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, akaba ari inyubako igura amadolari igihumbi na magana atanu.

Icyumba cy'uruganiriro. Muri icyo cyumba hakaba harimo agakoresho gashinzwe gutanga umuyaga. Hakaba harimo ameza afite n'akabati, ayo meza akaba afite ibara ry'umweru n'intebe zirimo imifariso isa icyatsi. Iyo nzu ikaba iri i Kigali, ikaba ikodeshwa ku kwezi amadorari magana atanu mirongo itanu.

Inyubako iherereye i Mayange, inyubako ikaba ifite amakaro hose, inyubako ikaba igurishwa miliyoni cumi n' eshanu.

Inzu iherereye Kigali Kanombe, ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibindi bitatu by'ubwiherero n'aho gukarabira, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Inzu iherereye Kigali Kicukiro ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibindi bine birimo ubwiherero naho bogera, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana arindwi y'amanyarwanda ku kwezi.

Inyubako isakaje amabati, asa n'umutuku, iyo nyubako ikaba iherereye i Kigali, ahitwa Kibagabaga, iyo nyubako ikaba ikodeshwa, ibihumbi ijana na mirongo ine, by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu iherereye i Kigali muri Kanombe, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ibyumba bibiri bya dushe na tuwalete, ikaba ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda, ibihumbi mirongogana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako iherereye i Kigali, i Kanombe, iyo nyubako ikaba ifite ibyumba bine byo kuryamamo, n'ibindi bitatu bya dushe na tuwarete, iyo nzu ikaba ikodeshwa.

Inyubako iherereye i Kigali Kagarama, iyi nyubako ikaba igurishwa amadolari, igihumbi na makumyabiri.

Inyubako iherereye mu mujyi wa kigali ahitwa Kimironko inyubako ikaba igurishwa, akaba ari inyubako ifitemo amakaro n'imbere ikaba ikingishije amadirishya asize irangi ry'umukara.

Umuntu uhagaze mu iduka zicuruza ibinyobwa, uyu muntu akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi, akaba yambaye n'ishati irimo uduturabyo tw'umutuku, umweru ndetse n'umukara.

Umugore urimo guhaha, uyu umugore akaba ari mu iduka ricuruza ibyo kurya birimo imbuto muri iryo duka hakaba harimo itara ririmo kwaka.

Iduka ricuruza imyambaro, muri iyo myambaro hakaba harimo amakanzu, imipira, bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, aho harimo ibisa umweru, umutuku, ndetse n'icyatsi.

Isoko, ry'ibiribwa, birimo imboga n'imbuto. Muri iryo soko hakaba harimo, abagore ndetse n'abagabo. Aho harimo umugore wambaye umupira w'umutuku.

Iduka ririmo abantu baje kugura, muri iryo duka hakaba harimo umukobwa ufite igikapu ku rutugu wambaye isengeri y'umutuku n'ijipo y'umukara. Iruhande hakaba hari umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Iduka ririmo umukobwa ufite imisatsi yadefirije uyu umukobwa akaba yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi imbere ye hakaba hari inanasi iteretse ku mashini yifashishwa bari kwishyura.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri ibyo bicuruzwa hakaba harimo ibikapu, iduka rikaba ririmo abantu baje kugura, aho muri abo bantu harimo umugabo uri kuvugira kuri telefone, wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, muri byo hakaba harimo ibikapu, imyenda, rikaba ririmo abagabo ndetse n'abagore, aho hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ipantaro y'umukara.

Umugore wicaye mu biro wambaye isaha mu kaboko ndetse n'impeta mu gatoki akaba afite imisatsi yadefirije akaba yambaye n'ikanzu irimo amabara y'umutuku.

Ikarita y'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, iyo karita ikaba ifite ibara ry'ubururu, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ikarita y'umunyamuryango, y'ubwisungane mu kwivuza, ifite ibara ryumuhondo, ikaba irimo ifoto ngufi, y'umunyamuryango.

Abanyamuryango b'ikigo cy'igihugu cy'ubwisungane mu kwivuza, abanyamuryango bakaba bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza ayo makarita akaba ariho ifoto ngufi ya buri munyamuryango.

Abantu bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, ayo makarita akaba afite ibara ry'umuhondo kuri ayo makarita hakaba hariho, ifoto ngufi y'umunyamuryango.

Isoko ririmo ibicuruzwa byo mu bwoko bw'ibiribwa, rikaba rishashemo amakaro hasi, afite ibara risa n'umweru.

Iduka ricururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, muri ibyo byo kurya hakaba harimo imbuto zirimo inanasi, hakaba hari umukobwa urimo gucunga igikoresho cyifashishwa mu gutwara ibicuruzwa, icyo gikoresho kikaba kirimo inanasi ndetse n'izindi mbuto.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ririmo amatara ari kwaka, rikaba ririmo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara n'isaha mu kaboko.

Iduka ririmo umugabo, uwo mugabo akaba yambaye ishati irimo amabara y'umukara n'umweru ndetse uwo mugabo akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba arimo arakora telefone, muri iryo duka hakaba hashashemo amakaro y'umweru.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye muri iryo duka hakaba harimo abantu bambaye udupfukamunwa, muri ibyo bicuruzwa hakaba harimo ibiri mu madebe ndetse hakaba harimo n'umugore wambaye umupira usa n'icyatsi.

Isoko ririmo abantu, hakaba harimo umugabo wambaye amadarubindi n'umupira w'umukara, imbere hakaba hari umugore n'umugabo bambaye imyambaro y'umutuku hejuru.

Umugore wambaye umupira w'umutuku, urimo guhereza umugabo ibyo yaguze, birimo imbuto, umugore akaba afite imisatsi idefirije.

Iduka ricuruza ibyo kunywa, ibyo byo kunywa hakaba harimo amazi, fanta ndetse na ji.

Iduka ricuruza ibyo kurya muri iryo duka, hakaba harimo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'amavuta aho harimo umumama urimo kugura amavuta, akaba yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abagabo bari mu iduka bakaba barimo baragura ibyo kurya, hakaba harimo umugabo urimo urafata ibicuruzwa aho bibikwa wambaye umupira iruhande hakaba hari undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umugabo urimo aragura mu iduka, uyu umugabo akaba yambaye umupira ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hakaba hari umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi umugabo akaba yambaye imyenda isa akaba yambaye n'inkweto z'umukara.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, rihagazemo umugabo wambaye ishati n'ipantaro, bifite ibara ry'ubururu, ufite igicupa mu ntoki.